Akana gato k'agakobwa kambaye ishati y'umutuku, kafunguye amazi kuri robine kari gukaraba ibiganza byombi kareba hirya.

Umujyanama w'umugabo, yagiye mu rugo rw'umugore n'umwana, kubaha amabwiriza mu muryango wabo y'ibyo bakora cyangwa banonosora kugira ngo barusheho kugira ubuzima buzira umuze.

Abana babiri bakiri bato, umukobwa ndetse n'umuhungu bagiye ku ivomero kuzana amazi yo kwifashisha mu bikorwa bigiye bitandukanye by'isuku yo mu rugo, urugero nko koza ibyombo ndetse no kumesa.

Itsinda ry'abagore n'abagabo riri gukusanyiriza hamwe ibintu byashyizwe mu mifuka birashoboka ko ari ibiribwa, babivana mu ruhande rumwe barijyana ku rundi rurimo izuba, kugira ngo imyaka irimo itazangirika.

Umwana ukiri muto yaje ku ivomero, azanye igikoresho cyo gutwaramo amazi cyitwa indobo, ari kunywa amazi akoresheje ibiganza bye byombi, kandi uwo mwana yambaye ikabutura y'umutuku.

Umwana w'umukobwa wambaye impuzankano, ari gukaraba akoresheje amazi meza ndetse n'isabune yifashishije kandagira ukarabe yo ku ishuri.

Umuyobozi w'umugore yasuye abana bo mu gace runaka, ari kubaha amata mu rwego rwo kubarinda imikurire mibi, turabona inyuma ye umugabo ushinzwe umutekano w'umusirikare ufite icyansi mu ntoki, nawe ari gufatanya n'uwo mugore kugaburira abana.

Umuganga w'umugore afatanyije n'umubyeyi w'umwana, bari gukingira umwana hakoreshejwe ibikoresho byabugenewe urugero, nk'urushinge mu rwego rwo kumurinda ibyorezo bitandukanye.

Umubyeyi w'umugore ateruye umwana w'uruhinja, yambaye agapfukamunwa, mu rwego rwo kwirinda kwanduza umwana izindi ndwara zikwirakwizwa mu gihe abantu bari kwa muganga, birashoboka ko umwana ateruye arwaye.

Umujyanama w'ubuzima ari kumwe n'umubyeyi w'umugore, ari kumwe n'agakobwa gato, ari kumwereka rero ibipimo umwana yaba afite by'umuriro kugira ngo babashe kumwitaho.

Umugabo ufite uburwayi bwo mu mutwe, yicaye hasi mu muhanda, afite amazi mu mashashi, arasa nabi cyane ntabwo aheruka gukaraba.

Abaganga bashinzwe imitekerereze, baje mu gace runaka gufasha abaturage baho kugira ngo babashe kubegereza, abafite ibibazo byo mu mutwe babashe kubakurikirana.

Umuganga w'amenyo yagiye gusura ikigo cy'amashuri runaka, ari kwereka abanyeshuri uko bazajya bakora isuku y'amenyo yabo bakoresheje uburoso bwo mu kanwa.

Umwana ari kwa muganga mu cyumba basuzumiramo amenyo ari gusuzumwa n'umuganga w'amenyo wabugenewe kugira ngo arebe asuzume neza uburwayi bw'amenyo umwana yaba afite.

Umugabo w'umwirabura, ari gukoresha intoki ze ebyiri, akoresheje urudodo mu gusukura amenyo ye, kugira ngo arusheho kunoza isuku ye yo mu kanwa.

Umugabo ukiri muto cyangwa se umusore, ari gusukura amenyo akoresheje urudodo, aragira ngo yite ku isuku yo mu kanwa bityo agire ubuzima bwiza.

Umugabo ari gukorera isuku amenyo ye akoresheje agakoresho kabugenewe, kubera gafite urudodo kamufasha gukuramo utwanda turi hagati y'amenyo ye, kandi bifasha amenyo ye kugira ubuzima bwiza.

Umugore wambaye igitambaro cy'umweru mu mutwe, wambaye n'isengeri y'umweru ari kwireba mu ndorerwamu kugira ngo abashe gukora isuku y'amenyo akoresheje uburoso.

Umugabo w'umwirabura, ari gusukura amenyo ye akoresheje agati kabugenewe ndetse ari mu ndorerwamo kugira ngo abashe kuyasukura abyitondeye, impande ye hari ibikoresho by'isuku bigiye bitandukanye.

Ibikoresho bitandukanye, biri mu cyumba umuganga w'amenyo asuzumiramo kugira ngo amenye neza uburwayi bw'amenyo umurwayi yaje kwivuza.

Umuryango ugizwe n'abantu batandatu, abagore batatu ndetse n'umwana umwe, n'abagabo babiri bicaye mu ntebe nziza y'ubururu, barishimye bishimanye n'umuryango.

Umubyeyi w'umumama ari kuganiriza umukobwa we ari na ko batunganyiriza hamwe amafunguro agiye atandukanye harimo imboga kandi turi kubona ko bishimye cyane, uyu mukobwa rero na we amuteze amatwi.

Itsinda rigizwe n'abagabo n'abagore ndetse n'abakobwa bato, riri mu murima bari kwifotoza bafite ibikoresho bitandukanye mu ntoki zabo, abandi bari gukoresha ibimenyetso by'umubiri.

Umugabo wamugaye ukuze ndetse ari mu kagare, ari kumwe n'umwuzukuru we cyangwa umukobwa we, bari gukina imikino igiye itandukanye kuri tereviziyo yabo.

Umukobwa w'umuganga ukiri muto, ari gufasha umugore ukuze gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo abashe kurambura ikiganza cye imitsi irambuke.

Umugabo n'umugore wambaye amataratara, wambaye n'umukufi mu ijosi n'ikote ry'ikoboyi, ari kumwe n'umugabo we ufite imvi ndetse n'ubwanwa bari gufata ifoto y'urwibutso.

Abagore babiri bakuze bari mu myitozo ngororamubiri, bambaye imyenda yabugenewe kugira ngo bakore imyitozo izajya ibafasha gukomeza amagufwa yabo ndetse n'imikaya kugira ngo bakomeze kugira imbaraga.

Umukobwa uri mu kigo gishinzwe kwita ku bageze mu zabukuru, ari kumwe n'ugeze mu zabukuru w'umwirabura kuko harimo n'abazungu, agiye kumujyana hanze kureba uko bimeze kugira ngo yote akazuba.

Itsinda rito rigizwe n'inkumi ebyiri ndetse n'abasore babiri, bafite udukingirizo ndetse n'icyapa mu ntoki, gikangurira urubyiruko kwirinda hakoreshejwe uburyo bwo gukoresha agakingirizo, mu rwego rwo kwirinda imibonano mpuzabitsina idakingiye.

Umuganga w'umugabo, ari gukingira umurwayi ukiri muto, mu rwego rwo kwirinda gukwirakwiza icyorezo cya Kovide cumi n'icyenda.

Itsinda rigari ry'abakobwa bateraniye hamwe kugira ngo batege amatwi inyigisho zabagenewe nk'urubyiruko, kugira ngo bite ku buzima bwabo bw'imyororokere.

Inyubako yo kwa muganga ikorerwamo ubushakashatsi ku bijyanye n'imiti ikorerwa cyangwa se yinjizwa muri icyo kigo.

Ni byiza gukurikirana umwana imikurire ye, mu gihe akiri muto. Ni muri urwo rwego umubyeyi yajyanye umwana kumupimisha ibiro, umuganga ari kureba niba uwo mwana yaba afite ibiro bikwiriye bijyanye n'amezi afite.

Abarwayi babiri b'abagore, bari ku bitanda bibiri kwa muganga, hagati yabo hari umuganga uri kubitaho w'umugore, ari kubaza umwe muri bo uko amerewe.

Icyapa kiri ahantu hagenewe gushyirwa abantu bagizweho ingaruka n'ibiyobyabwenge, ndetse n'uko babibakuramo.

umusore wambaye agapira k'ubururu ari kunywa amazi akoresheje icupa rya parasitike, kandi yambaye isaha y'umukara, ari kunywa amazi kugirango ashire inyota.

Umusore wambaye isengeri y'icyatsi n'agakomo k'ibara rya move, ari kwimenaho amazi birashoboka ko yari avuye mu myitozo ngororamubiri, akumva arashyushye hanyuma akimenaho amazi.

Umusore ari gukoreshwa imyitozo ngororamubiri abifashishijwemo n'umuganga, kugira ngo akoreshe imikaya n'amagufwa ye yongere ubudahangarwa.

Umusore wambaye ikabutura y'umukara, umupira w'umweru ndetse n'inkweto za siporo z'umweru, yagiye gukora imyitozo ahantu hakurya ye hari amazi kugira ngo agire umwuka mwiza.

Umukobwa ari kunanura amaboko yambaye imyenda ya siporo, ari ku buriri bushashe neza, aragira ngo imitsi ye irambuke uko bikwiye.

Uwihaye Imana w'umugore, ari kumwe n'undi muntu w'umuzungu ndetse n'umwana, bari gukora imyitozo ngororamubiri, mu cyumba cyabugenewe.

Amafunguro meza akubiyemo imbuto ndetse n'imboga, ni ibiribwa byiza bishobora gufasha umubiri wacu kongera ubudahangarwa no kwirinda indwara zitandukanye.

Umusore ari ahantu mu gicucucucu, yari ari gukora imyitozo ariko ari kuruhuka, ari na ko yifashisha amazi kugira ngo yongere kugarura imbaraga.

Umukobwa ari mu myitozo ngororamubiri, imbere ye hari ibikoresho yifashishaga mu gihe ari muri iyi myitozo ngororamubiri n'amazi yo kunywa ndetse n'imashini areberaho iyo myitozo.

Umukobwa w'umwirabura ukiri muto ufite imisatsi mike, ari gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo abashe kwita ku buzima bwe.

Umusore w'ibigango yazamuye akaguru ari gukora imyitozo ngororamubiri, amaboko ye yashyize ahagana ku mutwe we kugira ngo abashe kwinanura neza.

Umusore wambaye inkweto z'umukara n'imyenda y'umukara, ari mu myitozo ngororamubiri kugira ngo arusheho gukomera ndetse agire ubuzima bwiza.

Umuntu w'igitsina gore ari mu myitozo ngororamubiri, yambaye imyenda yabugenewe ipantaro y'umutuku, amasogisi y'umweru ndetse n'isengeri yayo.

Umuravumba ni umuti ukoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye, harimo iz'ubuhumekero nk'inkorora, ibicurane, ndetse na za kovide

Tungurusumu ni ikiribwa cyiza dukeneye gukoresha mu buzima bwacu kuko iyo tugikoresheje bituma twirinda kanseri mu mubiri wacu, amaraso agatembera neza mu mibiri yacu ndetse n'ibindi bintu byinshi.

Avoka ni urubuto ruvamo ibintu bigiye bitandukanye nk'isabune, kugira ngo ubashe kwita ku ruhu rwawe rwo mu maso ugire umubiri mwiza.